Inyubako icururizwamo amamodoka atandukanye. Iyo nyubako ikaba irimo imodokoa nyinshi zitandukanye zifite amabara atandukanye. Icyo kigo akaba ari ikigo cyitwa yundayi.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo umwe yambaye ishati y'amakaro undi yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umweru, imbere y'iyo kamyo hari amagambo yandikishije umutuku hari n'ayandi yandikishije umukara.

Ameza, ku ruhande hariho utujerekani dufitemo amabara y'umweru n'ubururu bwijimye.

Inyubako nini ikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi yuweyiki gikorera hano mu Rwanda, iyo nzu ikaba ifitemo amabara y'umutuku n'umweru.

Mu isoko ahacururizwa ibiribwa karoti, intoryi ,urusenda tangawizi, tungurusumu. Harimo n'abantu benshi batandukanye baje guhaha.

Mu isoko harimo benshi batandukanye, hacururizwa n'ibintu bitandukanye ibiribwa n'ibindi bintu by'ubwoko bwose butandukanye.

Isoko harimo abantu batandukanye bajya guhaha ibintu bitandukanye harimo, bodaboda. Harimo n'abandi bantu bacuruza ibitenge, imyenda yo kwifubika n'ibindi.

Abagabo babiri; umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umwenda w'umukara; inyuma yaho hari imodoka y'umukara irimo gutambuka mu muhanda.

Umumotari gukorera ikigo cyitwa Vuba vuba gishizwe koherereza abantu ibintu bimwe na bimwe bitandukanye harimo n'ibiribwa.

Inyubako nziza, ikodeshwa, iherereye Kabeza, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ikaba ifitemo irange ry'umweru, kandi ikaba igaragara neza.

Iduka rihahigwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo umuntu urimo guhaha, harimo n'abandi bantu benshi batandukanye bari inyuma ye, abo bose baba baje guhahira muri iryo duka.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'irindi bara ry'ubururu, akaba yambaye ipantaro y'umukara, ari kumwe n'umuhungu...